Ni inzu mberabyombi yabereyemo inama yitabiriwe n'abagore, n'abagabo, abasore n'abakobwa. Bari kuganira ku byabateza imbere, gukemura ibibazo ndetse no kuzamura aho ibintu bitagenda neza.

Aha ni icyumba cy'uruganiriro, gihuriyemo abayobozi bari kuganira bakiriye abaje babagana bababwira ibyiza nyaburanga by'igihugu cyabo, ndetse n'ukuntu bakomeza kungurana ibitekerezo mu kwiteza imbere.

Ni ahantu bateguye, hari kubera ibiganiro bitandukanye, byateza imbere igihugu, ndetse byazamura u Rwanda rwacu rukagera ku mwanya mwiza, ndetse no kuba rwazamura imikorere y'abanyarwanda.

Hano ni mu cyumba mberabyombi kiberamo inama, hitabiriwemo abayobozi hakaba hari umuyobozi uri kubasangiza ibyo bagomba gukora, ibyo bagomba kwitondera, ndetse no kubabwira ibyo bagezeho, n'ibyo bagomba gukora kugira ngo bagere kure aho bashaka.

Biragaragara ko ari icyumba cyabugenewe kiri kuberamo inama yitabiriwe ingimbi n'abangavu, bakaba bari gutanga ibitekerezo ku byo baganirijwe, hakaba hari bamwe muri bo bari gufata amafoto kugira ngo bizababere urwibutso, biyibutsa ku byabaye.

Ni inama rusange isanzwe y' abanyamuryango b' ishyirahamwe ikigo cyangwa ikindi. Ikaba mu buryo bwateganyijwe byemewe n' amategeko, mu kwiga ku bibazo byateza imbere umuryango wabo no gukemura ibibazo bihari.

Ni inama yitabirirwe n'abagabo benshi kuruta abagore, imbere yabo hahagaze umuyobozi w'umugabo, abitabiriye inama bahugiye mu materelefoni ntibari kumva icyo umuyobozi avuga.

Bigaragara ko ari mu cyumba cyagenewe gukoramo inama ndetse hakaba harimo abayobozi bitabiriye ibiganiro kugira ngo biteze imbere ndetse bateze n'ibikorwa byabo imbere.

Ni inzu mberabyombi yabereyemo inama yitabiriwe n'abirabura n'abazungu, abagore n'abagabo n'abasore n'abakobwa, bakaba bakurikiye ibyo bari kureba imbere yabo.

Hano biragaragara ko ari icyumba mberabyombi kiberamo inama bakaba bari kuganira ku bintu bijyanye na rura, ikigo cy'igihugu gishinzwe gucunga no kugenzura serivisi z'ibikorwa remezo bari kureba uburyo bateza imbere ikoranabuhanga bakazamura umuriro ndetse n'amazi agakwirakwira mu gihugu cyacu.

Ni inama yabereye mu cyumba mberabyombi ikaba yitabiriwe n'urujya n'uruza rw'abantu bakaba bateze amatwi umuntu uri kuvuga utanga igitekerezo kugira ngo bibafashe kwiteza imbere.

Biragaragara ko ari inzu mberabyombi yabereyemo inama, ikaba yitabiriwe imbere hakaba hari umuyobozi uri kubagezaho ibyo bagomba gukora, ndetse n'ibyo bagomba kongera, kugira ngo ubuzima bwabo bukomeze kugenda neza ndetse n'iterambere.

Biragaragara ko ari abari n'abategarugori n'ingimbi zitabiriye inama yo kubiteza imbere igihugu ndetse n'ubwabo uburyo bakizamura mu kwiteza imbere, bakava hamwe bagana ahandi mu cyerekezo cyiza.

Biragaragara ko ari mu cyumba cyabigenewe gikorerwamo inama, hitabiriye urubyiruko, abangavu, ndetse n'ingimbi, hakaba harimo abayobozi babo bari bari kubaganiriza, uko bakiteza imbere ndetse no guteza imbere igihugu cyabo, hitabiriye n'ingabo z'u Rwanda polisi.

Aha biragaragara ko ari ikoraniro ry'abaturage bitabiriye ibiganiro biri kuba, bakaba bateze amatwi bari kumva ibyo umuyobozi wabo ababwira mu buryo bakomeza kubaho mu mutekano no kwiteza imbere no guteza imiryango yabo imbere bagakomeza kuzamura igihugu cyacu ku mwanya ushimishije.

Biragaragara ko ari n'ibikorwa byo ku murenge cyangwa akagari runaka, bakaba bari gushimira abayobozi iterambere bagejeje ku tugari twabo, ku midugudu ndetse bakaba bitabiriwe n'abari n'abategarugori n'abagabo

Biragaragara ko ari inzu mberabyombi iberamo inama, ikaba yitabiriwe n'abantu benshi bagaragara b'ingeri zose, ndetse bakurikiye ibyo bari kubabwira, n'umuyobozi uhagaze imbere yabo.

Biragaragara ko ari ahantu habereye inama runaka, hakaba ari umuyobozi uri kubabwira ibyo bamaze kugeraho n'ibyo bagomba gukosora kugira ngo igihugu cyacu gikomeze giterare imbere, ndetse no kubagira inama no gukemura ibibazo bafite.

Ni gahunda y'abayobozi bitabiriye inama abategarugori beza cyane, bakaba bari mu nzu mberabyombi yabereyemo inama bateze amatwi bakurikiranye ibyo bari kuvuga mu nama byabagirira akamaro bakifasha mu buzima bwa buri munsi ndetse no mu bikorwa byabo.

Hano biragaragara ko ari mu cyumba cyabereyemo inama iri gushishikariza abantu kugira isuku muri Kigali yacu, ndetse ukaba umugi w'intangarugero muri iki gihugu cyacu, n'abakerarugendo bakazajya baza kuwutembera kubera ubwiza bwawo.

Biragaragara ko ari inzu mbera byombi icyumba cyagenewe ku kuberamo inama, kikaba cyitabiriwe n'abantu batandukanye ndetse bakurikiye ibyo bari kubwirwa.

Ni inzu mberabyombi yabereyemo inama, ikaba yitabiriwe n'urwego rw'abagore, abagabo, hakaba imbere hari umuntu uri kugenda abasobanurira ibyo bagomba gukurikiza ndetse no kwikemurira ibibazo.

Biragaragara ko hano ari mu cyumba mberabyombi cyabereyemo inama yitabiriwe n'ingeri zitandukanye hakaba hari umuyobozi ubicaye imbere ari kubabwira ibyo bagomba kuganiraho ndetse n'uburyo bakiteza imbere uko bazamura ku mikorere yabo nabo abitabiriye inama bari kumukurikira bamuhanze amaso ni byiza kumva umuntu uhagaze imbere.

Iki ni icyumba mberabyombi cyabereyemo inama, hakaba hari umuyobozi ari kubabwira ibyo bagomba kwitaho ndetse n'uko bakwiye gukemura ibibazo byabo.

Hano biragaragara ko ari muri sitade hitabiriwe abantu bavuye impande zose, urujya n'uruza rwabo. Bishimiye ibiri kubera ahongaho byabanejeje.

Iragaragaza abari n'abategarugori bitandiye b'abisilamu bari bitabiriye inama, bateze amatwi ibyabagirira akamaro no guteza imbere igihugu ndetse bakazamura n'imiryango yabo babayemo.

Biragaragara ko ari icyumba mberabyombi cyabereyemo inama kitabiriwe n'abantu bagiye batandukanye, abirabura ndetse n'abazungu, kugira ngo bakomeze kuganira ku byabateza imbere.

Aha biragaragaza ko ari icyumba mberabyombi cyaberemo inama, hakaba hari umuyobozi uhagaze imbere yabo, ari ku kubashishikariza uburyo bagomba kugira ubumwe ndetse no gukora siporo, bakagira ubuzima bwiza. Imbere ye hari abo ari kubwira kandi bamuteze amatwi.

Hano biragaragara ko ari igikorwa cya Leta cyitabiriwe n’ingabo z’u Rwanda, ndetse n’abaturage n’abayobozi batandukanye mu buryo bwo kuganira mu kwiteza imbere no guteza imbere igihugu cyacu.

Ni icyumba mberabyombi kiberamo inama ikaba iyobowe n'umuyobozi ubicaye imbere arikubaha amabwiriza cyangwa ari kubagezaho ingingo bagiye kuganira ikaba yitabiriwe n'abantu batandukanye harimo abirabura n'abazungu bakaba bari kumukurikira ibyo ababwira, ni byiza gutega amatwi umuntu ukuri imbere .

Hano biragaragara ko ari mu rusengero abantu bishimiye amateraniro, ibyo bari kureba imbere ko biri kubafasha ku buryo bari gufata n'amavidewo n'amafoto, kugira ngo bajye babyumva babisubiremo bikomeze bibanezeze.

Iragaragaza ko ari urubyiruko rwitabiriye amahugurwa runaka bashaka ko bakwiteza imbere mu kuzamura igihugu cyabo ndetse no guhanga udushya ku giti cyabo bakiteza imbere bikazamura bukungu bw'u Rwanda.

Uru ni urubuga rukorerwa kuri murandasi rwa rura ikigo k'igihugu gishinzwe gucunga no kugenzura serivisi n'ibikorwa remezo, amazi n'umuriro n'itumanaho, kugira ngo bigere ku baturage ndetse bazamure n'igihugu cyacu neza.

Aha biragaragara ko ari urubuga rwa murandasi rukoreshwa mu kuzamura ibintu, gupanga ibintu no gushyira mu myanya abayobozi batandukanye babaganga mu gihe warusura ukabona ukamenya uko wabona umwanya.

Ni urubuga rwa aradibi (RDB) rukaba ruriho igishushanyo mbonera kigaragaza umujyi aho iterambere rigeze mu gihugu cyacu hariho inyubako nziza cyane ya konvesheni (convention ) ndetse na radisa haberamo amanama yo kuzamura igihugu cyacu.

Hano ni mu kibuga, habereyemo ubukangurambaga bwo gukoresha umurongo runaka cyangwa gushishikariza abantu kugira isuku mu ngo cyangwa kwibaruza, abantu bafite indwara zigiye zitandukanye, bakoresheje ikoranabuhanga.

Ni umunara ukoreshwa mu gutanga ikoranabuhanga hagati y'umuntu n'undi, uri hafi n'uri kure, bigatuma iterambere rigenda ryiyongera mu gihugu cyacu.

Iragaragaza ikirangantego cy' u Rwanda kerekana umurimo, hakaba handitseho amagambo umunsi mukuru w'abakozi wa bibiri na makumyabiri na rimwe iya mbere z'ukwa gatanu. Hariho: umuganga; umwenjeniyeri; umuyobozi, ndetse n'umushefu.

Hano biragaragara ko ari urubuga rwo kuri murandasi rwa rura. Rura isobanura Rwanda yutiriti regilatori otoriti, ikigo cy'igihugu gishinzwe gucunga no kugenzura serivisi z'ibikorwaremezo amazi, umuriro, itumanaho, hano bari bari kuvuga ku bijyanye n'ingendo uburyo bagomba kubyitaho.

Biragaragaza ko ari urubuga rw'irembo, hakaba handitseho satifiketi ofu resIdensi, urupapuro rugaragaza aho umuntu atuye inzabamo, imyirondoro ye, ndetse na nimero y'indangamuntu, ibiranga uwo muntu, nicyo iki cyangombwa gikoreshwa.

Ni abagabo babiri badahuje uruhu, umwirabura n'umuzungu, bari muri salle ikorerwamo ikoranabuhanga ryo guteza imbere igihugu ndetse bikazamura igihugu cyacu ku isonga.

Aha biragaragara ko ari sale yabugenewe ikorerwamo ikoranabuhanga mu itumanaho ndetse no kwakira abantu babagana bashaka kumenya ubumenyi buturutse kuri murandasi bareba ibintu bitandukanye ndetse biga no kuzikoresha.

Ni igikorwa cya leta kiri kugaragaza ko ibikorwa byayo byemerewe ahantu byakorerwaga, bikaba byagiye i Masaka na Dubai sipoti ahasanzwe hakorerwa ibiro bya gasutamo.

Urupapuro rukwemeza ko winjiye mu irembo, uburyo bushyashya bw'irembo, bakakwereka ibikurikira, bakakwereka ibyiciro, amazina ya serivisi ndetse n'uburyo ushaka gutwaramo imodoka ndetse na porovizware.

Uyu ni umunara ukoreshwa mu itumanaho kugira ngo abantu bavugane neza ibintu bidacika ndetse biteze imbere.

Hano ni urubuga rw'irembo handitseho ngo "hawo tu rekwesiti tu adi oru rimuvu landi owuna", bisobanura gusaba kongerwaho cyangwa gukurwaho ku rutonde rw'abafite ubutaka, iyo ubyinjiyemo burabigufasha neza bikorwa mu minsi irindwi nta giciro bisaba.

Biragaragara ko ari inzukorerwamo ubucuruzi, itanga ubufasha ku bakiriya bakoresha amabanke n'abashaka ibyemezo byo muri aradibu n'abashaka gukoresha momo peyi.

Uru ni urubuga rwa murandasi rukoreshwa n'ikigo gishinzwe abinjira n'abasohoka mu gihugu, ukarujyaho bakaguha amakuru atandukanye ku buryo byagufasha kuzamura na bizinesi yawe.

Ni umunara ukenerwa mu gutanga amarezo kuri telefone ugahamagara umuntu uri kure hakurya y'igihugu, umuntu mwegeranye bikazamura iterambere ry'igihugu.

Hano biragaragara ko ari mu cyumba cya raboratwari, abanyeshuri bicayemo bari kuganira ku masomo yabo, bari gukora imyitozo itandukanye, bungurana ibitekerezo kugira ngo ubumenyi bwabo buzamuke.

Iyi ni eyibi emu, niba udafite eyibi emu y'ikoranabuhanga, ugomba kuyigira kuko iragufasha cyane mu kuzamura imisoro y'igihugu ndetse nawe ntabwo bakwiba.

Hano biragaragaraga ko ari urubuga rukoreshwa mu kwishyura imisoro ya bibiri na makumyabiri na kane, ukuntu winjira mu rubuga rwabo bakaguha amabwiriza inzira ugenda ucamo kugirango bikunogerere, ubone ukuntu wishyura imisoro.

Biragaragara ko hano ari ahantu hateye ibihingwa bitandukanye, avoka ndetse n'ibiti by'indabo, hakaba hari umunara wifashishwa mu gutanga amakonekisiyo ku bintu bitandukanye: telefone, imashini ndetse n'ibindi byose bikenera network.

Aha ni uburyo wabwiraabantu uburyo ukoresha, udushushanyo dushushanyije icyo tuba tuvuze.

Uku ni ukwamamaza kw'ikigo gishinzwe imisoro, bakaba bari gushishikariza abantu kwishyura imisoro mbere y'ukwezi kwa gatatu.

Ni umugozi ukoreshwa mu mashanyarazi, amashanyarazi akamaro kayo kadufasha kumurikira igihugu cyacu, tugira umutekano ndetse tugahanahana umuriro ku nshuti n'abaturanyi.

Biragaragara ko hano ari ku muhanda, hakaba hari urujya n'uruza rw'abantu ndetse n'ibinyabiziga bitwara abantu, imiryango ndetse n'ibintu, hakaba hari amaduka waboneramo ikintu cyose ushaka.

Umunara ukoreshwa mugutanga netiwaka, igihugu kimwe n'ikindi cyangwa guhamagara umuntu mutegeranye nuwo mwegeye ubuzima bukagenda neza n'iterambere rikazamuka.

Ni ipoto ryabugenewe rikoreshwa ku mashanyarazi ryambukiranya insinga ahantu hamwe, umuriro uva ahantu hamwe ujya ahandi.

Hano biragaragara ko ari ibikorwa remezo bya reta harimo inyubako, amapoto afata umuriro ndetse n'ibinyabiziga bitandukanye n'urujya n'uruza rw'abantu bari kugenda mu gihugu cyabo gifite amahoro ndetse n'umutekano

Ni ipoto rishinze ku muhanda hafi y'amaduka ririho kamera zishinzwe gucunga umutekano ndetse no gufata ibinyabiziga biri kwihuta byarengeje umuvuduko wabugenewe aho hantu; iyo byaharengeje birafotorwa.

Aha ni umuhanda nyabagendwa unyurwaho n'abagenzi bava mu ngo zabo bajya ahandi, hakaba hari umurima utuyemo ibigori, harimo n'amapoto yambukiranya insinga z'umuriro kugirango hamurikirwe n'urumuri.

Ni inzu igaragara ko ituyemo umuryango hakaba hari ipoto yambukiranya insinga ry'amashanyarazi, aka kamaro k'izi nsinga n'iri poto bibafasha kubona umuriro bakamurikirwa mu buzima bwabo bwa buri munsi ndetse ubuzima bukagenda neza.

Ni inyubako yabakishije amatafari ikaba iteweho igiti ifite ipoto ririhe insinga nyinshi zigiye zinyuranyuranamo.

Aha ni umunara uzitiye mu gutanga itumanaho, kugira ngo abantu bakoreshe za murandasi, amashanyarazi bayagure bakoresheje amatelefone yabo, ndetse bizamure mu buryo bwo gukoresha ikoranabuhanga.

Aha ni ahantu habugenewe bashyira insinga z'amashanyarazi zitanga ahantu hatandukanye umuiro ufite ingufu kugira ngo abantu bamurikirwe babe mu mucyo bave mu mwijima bakomeze kubaho mu buzima bwiza.

Biragaragara ko ari muri gare hakaba harimo utuzu abagenzi bicaramo, ndetse n'imodoka itwara abagenzi bajya mu mirimo yabo ya buri munsi, bikabafasha mu kujya kwiteza imbere.

Aha biragaragara ko ari kwa muganga, abarwayi bicaye bategereje kwa muganga ko babafasha; ndetse izi ntebe akamaro kazo bituma uruhuka, utananirwa ngo uhagarare umwanya munini kuburyo wahura n'ikindi kibazo.

Aha ni icyumba kiri kwa muganga harimo aho bakarabira intoki hari n'ikindi gikoresho bashyiramo imyanda hicayemo umuzungu n'umwirabura bigaragara ko bagwije urugwiro ari kumwereka ibyo agomba gukora ari kumwungura ubwenge ndetse bikamufasha kuzamura ubumenyi.

Ni ababyeyi bicaye mu busitani bwivuriro, rikoreshwa mu gihe cyihuse n'igihe gitarambiranye, mu gutabara ubuzima bw abantu, rigafasha cyane mu kurinda amagara yabo.

Hano biragaragara ko ari kwa muganga, mu cyumba cy'isuzumiro, aho basuzumira umuntu akaba ari umurwayi ndetse n'umuganga uri kumuvura, ari gupima uko umutima we utera kugira ngo amenye ikibazo afite bikurikije yagiye amubwira.

Inyubako bigaragara ko harimo ubwiherero bukoreshwa n'abari n'abategarugori mu gihe bashatse kubukoresha bakabubona kugira ngo hatagira ikibazo kivuka ndetse bakanarinda n'ubuzima bwabo.

Aha ni muri sale yabugenewe abaturage bategererezamo ibisubizo bivuye kwa muganga cyangwa batanze ibizamini babitegereje ko bisuzumwa hakaboneka indwara barwaye.

Biragaragara ko hano ari mu rubanza harimo abacamanza ndetse n'ababuranyi ndetse n'abashinjwa n'abitabiriye icyo gikorwa kugira ngo bace imanza zabo.

Aha ni urupapuro rwerekana indimi eshatu zitandukanye ikinyarwanda, icyongereza n'igifaransa bashishikariza abantu gushyira ingamba bihaye mu bikorwa, ndetse no gukemura ibibazo mu mucyo badaciye ku ruhande.

Hano ni mu rukiko hitabiriwe imfungwa, abagororwa, ndetse nabashinzwe umutekano, hakaba hari n'uburana, hakaba hari umucamanza ari kubafasha kumva ibibazo bafite ndetse n'uko yabafasha kubibakemurira.

Aha ni urupapuro rwanditseho ibintu bitandukanye, bikaba byanditse mu ndimi zitandukanye ndetse wasoma aho bikorohera.

Aha biragaragara ko ari imfungwa iri mu rukiko iri kuregwa itegereje ko bayicira urubanza bifasha abantu kumenya ibyo abantu bagiye bazira ndetse n'ibihano bahanwa.

Uru ni urupapuro rusohoka iyo Nyakubahwa Perezida yahinduye abayobozi mu myanya yabo mugihe abona ko umuyobozi uriho atari gukora ibintu neza, bakamusimbura agashyiraho abandi, nibwo uru rupapuro nibwo rusohoka.

Biragaragara ko ari ubusitani bwicayemo abantu bitabiriye inama y'abayobozi; umuyobozi akaba ari kubabwira ibigomba kwigaho ndetse nuko bakemura ibibazo.

Ni umuhanda wa kaburimbo ukikijwe n'amazu y'amagorofa atandukanye akorerwamo ubucuruzi, hakaba hari kunyuramo ibinyabiziga bitandukanye, harimo imodoka ya polisi iba ishinzwe umutekano mu muhanda, ndetse n'indi modoka yatwara abagenzi ikabavana mu gace kamwe ibajyana mu kandi, ishobora no gutwara umuntu agiye mu kazi, igatwara n'umugenzi; ndetse na moto itwaye abantu.

Ni icyuma kizingiyemo umupira ukoreshwa mu kuzimya ahantu habaye inkongi y'umuriro cyane cyane ukunda gushyirwa mu nyubako zigeretse mu rusengero kugira ngo babone ukuntu bazimya umuriro uramutse ubatunguye.

Biragaragara ko hano hari abakozi bashinzwe umutekano, bakaba bari kumwe n'umuyobozi wabo, ari kubaha amabwiriza y'uburyo bagomba gucunga umutekano ndetse n'uburyo bagomba kugira disipurine mu kazi kabo ka buri munsi kugira ngo ubuzima bugende neza.

Imodoka iri mu muhanda yifashishwa mu gutabara ahantu habayeho inkongi y'umuriro bitunguranye, umuriro utabasha kuzimywa n'amazi abantu basuka bakifashisha iyi mashini kugira ngo bikorwe mu gihe gito kandi vuba.

Ni kaburimbo irimo umunyonzi ndetse n'ingabo z'igihugu za porisi ziri gucunga umutekano ,abaturage bakamererwa neza ,hari abari gucuruza bitewe n'umutekano bari guhabwa n'ingabo z'igihugu.

Ni umuhanda wa kaburimbo bigaragara ko hariho icyapa kigaragaza Kacyiru, polisi, hopitari bivuze ibitaro bya polisi Kacyiru. Ushaka kubagana ntabwo yayoba, kuko hari icyapa kibagaragaza aho bakorera.

Ni inzu irimo igikoresho cya kizimyamwoto bakunda gushyiramo mu gihe iyo nzu ishobora gutungurwa n'inkongi y'umuriro iyo inkongi y'umuriro ije baragikoresha bakazimya ndetse hakaba hari n'igikoresho cy'isuku bashyiramo n' imyanda kugira ngo ubuzima bwabo bugende neza.

Hano biragaragara ko ari urujya n'uruza rw'abantu bari mu matora bikaba, biri guca kuri murandasi ikoranabuhanga abantu bari kubikurikirana biri imbonankubone, babikurikirana uko biri kugenda kugira ngo n'abatabashije kuhagera nabo babibone.

Ni ikirangantego kigaragaza ishyaka ry'abashyize hamwe "ukwishyira ukizana, ubutabera, amajyambere" kiriho ibigori ndetse n'umunzani bigaragaza ko ibintu byose bigomba kurenganira.

Hagaragara ko hano ari mu cyumba mbera byombi kiberamo inama ndetse ndabonamo abategarugori bitabiriye inama ndetse n'abagabo higanjemo abayobozi b'igihugu cyacu ndetse na Nyakubahwa Paul Kagame.

Ni abayobozi bari gutambuka, umuyobozi w'igihugu cyacu cy'u Rwanda ndetse n'umufasha we, n'abandi bayobozi bamuri inyuma bavuye mu biganiro byo guteza imbere igihugu, ndetse no gukemura ibibazo bigiye bitandukanye by'abaturarwanda.

Iragaragaza abayobozi bari kurahira, amategeko, n'inshingano bagiye kujyamo bavuga ko batazateshuka ku nshingano zabo bagateza imbere igihugu ndetse nabo ubwabo bakazamura n'amazina.

Ni umuyobozi wicaye muri biro ategereje ko yakakira umugana wese kugira ngo amukemurire ikibazo kugira ngo ubuzima bw'umuntu bugende neza ndetse n'iterambere ry'igihugu rizamuke neza nta bibazo byinshi bigaragara mu baturage batuye igihugu .

Uyu yari umuyobozi ushinzwe uburezi, aha yarari gusoma ibijyanye n'iterambere ry'amashuri mu gihugu ndetse n'ibyo bakongera kugira ngo uburezi bugende neza mu gihugu.

Aha biragaragara ko ari ikibuga cyabereyemo kwamamaza ndetse no kwiyamamaza, bikaba bifasha abaturage kumenya uwo bashaka gutora, ndetse nuri kwiyamamaza akabona abantu bamushyigikiye.

Ni umuhanda wa kaburimbo urimo ibinyabiziga bitwara umuntu umwe, n'ibindi bitwara imiryango bitwara n'umuntu umwe ku giti cye, hakaba harimo aimodoka bakunda kwita howo, itwara abantu batatu, igatwara umucanga, amabuye kugira ngo bidufashe kubaka amazu yacu, ndetse dukore n'ibikorwaremezo byo guteza imbere igihugu cyacu.

Iragaragaza umuhanda wa kaburimbo urimo ibinyabiziga bitatu, bikoreshwa mu gutwara abantu, mu kwihuta muri serivisi bagiyemo, mu guteza imbere akazi kabo ndetse n'igihugu.

Biragaragara ko ari umuhanda nyabagendwa uri kunyuramo ibinyabiziga bigenda bitandukanye, ibitwaye ibiribwa ,ibitwaye abantu n'amatabaro yatwara umuntu umwe cyangwa ibinyabiziga hakaba hari n'imodoka ya hoho itwara abantu batatu ndetse ikikorera amabuye ,umucanga mu gihe barikubaka.

Ni umuhanda nyabagendwa bigaragara ko harimo ikinyabiziga gitwaye umugenzi kimuvana mu cyerekezo kimwe kimujyana ahandi bitewe n'aho agiye bimufasha kugera aho agomba kugera byihuse.

Ni umuhanda urimo ibinyabiziga bibiri; kimwe gitwara umuntu umwe, ava hamwe ajya ahandi, n'ikindi gitwara ibintu, kibivana mu ntara imwe, gikoreshwa mu kazi runaka, mu kwiteza imbere no guteza imbere igihugu.

Ni umuhanda ukoreshwa n'ibinyabiziga bitandukanye hakaba harimo ikinyabiziga gitwaye abantu batatu imbere inyuma kikaba gitwaye ibintu. Ibi bintu bishobora kuba bivuye mu gihugu runaka cyangwa bikaba bivuye mu karere runaka hari aho bivanwe naho'aho bijyanwe kugira ngo bicuruzwe bigirire ubikoresha akamaro ndetse yiteza imbere.

N'umuhanda wa kaburimbo uri gucamo ibinyabiziga bitandukanye hakaba harimo moto ndetse n'imodoka itwara abantu batatu imbere inyuma igatwara umuzingo ushobora kuwuvana mu gihugu kimwe uwuzana mu kindi kugirango abacuruzi babone ibyo baba baranguye babikuye mu gihugu kindi bakagira ubuzima bwiza.

Biragaragara ko ari ikinyabiziga gitwara abantu batatu imbere, kikaba gihagaze ahantu ku ruhande, inyuma gitwara imizigo itandukanye, impamvu biba bitwikiriye ni ukugira ngo biticwa n'izuba cyangwa bikandura, bikajyaho ivumbi, hakaba hari na moto itwara umugenzi umwe cyangwa ukikorera umuzigo mutoya ubasha kujyaho.

Biragaragara ko ari mu muhanda wa kaburimbo; hakaba hari ahagenewe kugenda abanyamaguru, hakaba hahagaze igare bakunda kwita matabaro ndetse n'imodoka yikorera imizigo iyivana ahantu hamwe iyijyana ahandi.

Mu muhanda wa kaburimbo urimo imodoka igenewe gutwara abantu, ikabavana mu gace kamwe, ibajyana ahandi, bikabafasha kugera aho bagiyedahuye n'ibibazo, ndetse bakahagerera ku gihe.

Mu umuhanda wa kaburimbo bigaragara ko uri gucamo ibinyabiziga bitandukanye, ibyikoreye ndetse n'ibyo dukunda kwita moto, biri kuva mu cyerekezo kimwe bijya ahandi, kugirango ubuzima bw'abantu bukomeze bugende neza.

Ni umuhanda urimo imodoka ikoreshwa mu kwigisha abanyeshuri, hajyamo abantu batanu; umwari n'uwiga, n'abandi babunganira mu guteza imbere igihugu cyacu, no kugira ngo abantu bamenye gutwara ikinyabiziga.

Ni umuhanda wa kaburimbo, urimo moto ikoreshwa mu gutwara imizigo itandukanye, ndetse igafasha nyiri kuyitwara mu kwiteza imbere, no guteza imbere igihugu.

Ni umuhanda wa kaburimbo urimo ikinyabiziga gitwara umuntu umwe n'ikindi kinyabiziga gitwara abantu cumi n'umunani bava ahantu hamwe bajya ahandi abantu bakajya mu mirimo yabo bitabagoye cyane.

Ni igare cyangwa matabaro rikoreshwa mu gutwara ibintu ndetse n'umuntu umwe, rifasha ubuzima bw'umuntu ku giti cye mu kwiteza imbere nta kazi afite, agafata igare akaba ariryo akoresha ndetse ku ruhande hari na moto itwaye umuntu, imuvana ahantu hamwe imujyana ahandi.

Ni umuhanda, ku mpande hariho ruhurura inyuramo amazi cyangwa ibintu runaka, hakaba hari imodoka itwara abagenzi mirongo itatu na babiri, hakaba hari n'indi modoka ya rukururana itwara imizigo iyivana mu gihugu kimwe iyijyana mu kindi.

Aha ngaha ni mu muhanda wa kaburimbo, urimo abantu bagenda ndetse n'imodoka zitwara abantu bajya mu karere kamwe, karitsiye imwe bajya mu yindi, aha ku ruhande rwanjye haparitse neza moto itwara imizigo itaremereye cyane, itari na myinshi, ifite purake ya magana inani mirongo irindwi na gatandatu ve.

Ni ikinyabiziga kiri mu umuhanda wa kaburimbo gitware abantu batatu gusa ahandi kigatwara imizigo itangirika ndetse n'ibintu bya barafu kugirango ubushyuhe butabugeraho vuba

Ni umuhanda wa kaburimbo urimo ibinyabiziga bitandukanye igare ndetse na moto bifasha abantu kugera aho bagiye mu mugihe gito kandi kihuse.

Ni umuhanda wa kaburimbo ufite inzira nyabagendwa unyuramo ibinyabiziga urimo imodoka y'ivatiri iteyeho ibiti ku mpande bitanga umuyaga.

Biragaragaza ko ari ubusitani bwagenewe gukinirwamo umukino w'umupira w'amaguru, umupira w'amaguru ukabafasha kuzamura abana impano zabo ndetse n'uyifite ikagaragara ku buryo bishobora kumubera akazi ke ka buri munsi kamuzamura.

Ni ipoto iriho icyapa ku muhanda kigaragaza ko uwo muhanda, imbere gato hari iteme cyangwa ikiraro umuntu agomba kwitondera, ataza kugwamo.

Izi ni feruje cyangwa amapoto akunda gushyirwa mu muhanda ahantu hari imihanda myinshi inyuranamo ikabafasha kuyobora hajyamo icyatsi imodoka zikaba zemerewe kugenda, hajyamo umutuku hakaba hemerewe kugenda urundi ruhande n'abanyamaguru bakabona uko bambuka.

Igaragazwa n'umuzenguruko ikaba ifite impande enye hari ikirango kigaragaza ko aho hantu hazenguruka ikwereka icyerekezo.

Ni umuhanda wa kaburimbo uri kunyuramo ibinyabiziga ku mpande hateyeho ubusitani bwiza butoshye hakaba hariho icyuma kiriho icyapa kerekana ko aho hantu abagenzi b'amaguru bahambukira.

Ni icyapa gishyirwa mu muhanda kerekana ko hanyuramo imodoka ebyiri zinyuranamo izizamuka n'izimanuka.

Ni inyuguti pa iri mu mabara y'ubururu ndetse n'umweru ishobora gukoreshwa mu byapa cyangwa igatangiza izina ry'umuntu.

Hano biragaragara ko ari icyapa kiri ku muhanda, kigaragaza ko imbere yawe hari icyitonderwa cya feruje, ugomba kuzitaho kugira ngo udakora impanuka, cyangwa ugateza ikibazo.

Iki ni icyapa cyifashishwa mu muhanda cyerekana ko umuhanda uriho hashamikiyeho undi muhanda winjira ku ruhande, iyo ubimenye mbere wirinda impanuka bigatuma ubuzima bwawe bugenda neza.

Ni icyapa cyanditseho anda konsuturakishoni bashyira ahantu, bisobanura ngo irimo kubakwa inzu inyubako cyangwa ikintu cyose cyaba kiri kubakwa hakaba hariho ingofero ikoreshwa mu kwirinda impanuka mu gihe abakozi bari kubaka ndetse n'icyapa kigaragaza ko aho hantu hari gukoreshwa.

Biragaragara ko ari umuhanda wa kaburimbo urimo abagenzi n'ibinyabiziga bitandukanye hakaba hari amapoto ashinzeho insinga zambukiranya zitanga amashanyarazi kugira ngo igihugu cyacu gise neza .

Iragaragaza ko ari isoko rya Giporoso. Hariho imitaka abantu bakoresha mu kohereza amafaranga, mu kwiteza imbere ubwabo no guteza imbere igihugu, bikabafasha ubuzima bwabo

Ni umuhanda wa kaburimbo uteyeho ibiti kumpande, ibiti bitanga umuyaga bitanga agacucu uramutse uhageze unaniwe wahagarara ugafata akayaga ndetse bigatuma n'imvura igwa mu gihe cyayo.

Ni inzu igaragara neza ifite ubwiza nyaburanga, ikaba ifite n'ubusitani butanga umuhumeko mwiza. ndetse hakaba n'icyapa kiharanga KK 59.

Ni inzu zikorerwamo ubucuruzi butandukanye amarange, amasaro, botike hakaba haparitse imodoka zijyana ibintu aho babikeneye ndetse zibatwara bagiye mu yindi mirimo.

Mu muhanda w'itaka ukikijwe n'ibipangu bituyemo abantu bigaragara ko hari imiturire myiza, ndetse n'umutekano habamo imiryango, akamaro ko kuba ahantu heza hatekanye ni ukugira ngo ugire ubuzima bwiza.

Ni umuhanda wa kaburimbo ufite inzira nyabagendwa unyuramo ibinyabiziga urimo imodoka y'ivatiri iteyeho ibiti ku mpande bitanga umuyaga.

Ni umuhanda uri kunyurwamo n'abantu batandukanye b'ingeri zose, ndetse n'ibinyabiziga moto, imodoka zitwara abantu, ndetse na moto itwara umuntu umwe ku giti cye, mugihe bari kujya mu bikorwa byabo kugira ngo biteze imbere.

Ni inyubako yubakishijwe amatafari meza, igeretse gatatu, ikaba iri mu gipangu, hakaba hari n'umunara w'amashanyarazi, wambukiranya insinga ziva mu gace kamwe zijya mu kandi.

Iki ni igishushanyo mbonera kigaragaza imiturire iri mu mugi wa Kigali ndetse bishishikariza umuntu kubaka inyubako nziza igezweho kugira ngo igihugu cyacu gikomeze gusa neza.

Ni inyubako iri ku muhanda wa kaburimbo, ahantu haca ibinyabiziga bitandukanye. Iyo nyubako ikaba igeretse kane, hagiye hariho amaduka atandukanye hariho: banki, hariho uburyo bwagufasha kujya mu ndege n'ibindi byose.

Umuhanda wa kaburimbo uca munsi y'undi, ndetse hakaba hari n'icyapa kigaragaza ko nta modoka yemerewe kuhagarara, hakaba ari n'ikindi cyapa cyerekana amerekezo y'aho ushaka kujya ntuyobe, niko kamaro kabyo.

Iyi modoka iri mu muhanda wa kaburimbo ikoreshwa, mu gutwara nk'ibyuma bisohora amajwi habaye ibirori runaka cyangwa batwaramo ibintu babigemuye ku mabotike atandukanye.

Ni umuhanda wa kaburimbo uteyeho indabo kuruhande zituma umuhanda ugira uburanga bwiza harimo gucamo ibinyabiziga bitwara umuryango bitwara abakozi mu kazi ndetse n'ikinyabiziga gitwara abantu batatu na babiri gikoreshwa gutwara abanyeshuri ndetse n'abantu bava mu ntara bajya ahandi.

Ni umuhanda wa kaburimbo urimo ibinyabiziga bitandukanye hakaba hariho moto hakaba harimo imodokari itwara umuryango cyangwa itwara abagenzi bagiye muri biro hakaba n'imodoka yikorera umucanga ,amabuye ndetse n'ibindi bintu bitandukanye biremereye byava ahantu hamwe bijya ahandi hakaba hari n'akazu abagenzi bugamamo imvura cyangwa izuba .

Ni ubusitani buteyemo camera bakunda kwita Sophia ikoreshwa mu gihe warengeje umuvuduko runaka baba barashyize ibyapa, akamaro kayo kafasha abashoferi kugabanya umuvuduko mu gihe birinda impanuka.

Biragaragara ko ari umuhanda imodoka zinyuranaho izizamuka n'izimanuka mu bihande bibiri bitandukanye, mu buryo bwo kwirinda ubucucike bw'imodoka nyinshi mu muhanda, bigatuma umuntu agera iyo agiye mu gihe gito kandi cyihuse.

Uyu ni umuhanda wa kaburimbo, uri gucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, hakaba hari n'ibikorwa remezo inzu z'ubucuruzi, mugihe hari gucamo imodoka itwaye abagenzi ibajyana mu cyerekezo kindi ibakuye mu kindi.

Ni umuhanda wa kaburimbo akaba ari mu gicuku k'ijoro, harimo ibinyabiziga bitandukanye bitwaye abantu ndetse n'ibintu, ku mpande hari abagenzi bari gutaha, ku rundi ruhande hariho inyubako nziza icanyeho amatara.

Hano ni umuhanda wa kaburimbo, bigaragara ko ari mu ikorose, umuntu agomba kunyuramo yitonze kugira ngo adakora impanuka cyangwa agateza ikindi kibazo abo bari kumwe, mu buryo bwo gusugira igihugu cyacu.

Mu muhanda wa kaburimbo hakaba hakikijweho ubusitani buteyemo ibiti hakaba hari umugenzi uri kugenda akaba ari zebra cross zikoreshwa mu kwambuka abantu kugirango badakora impanuka, hakaba hari na fei rouge zifasha ibinyabiziga ndetse n'abagenzi mu kugenda kugirango birinde impanuka.

Uyu ni umuhanda wa kaburimbo ucamo ibinyabiziga bitandukanye, aha hari kugaragara cyane ni ahantu umugenzi ashobora guhagarara ategereje ikinyabiziga ko kimuvana aho ngaho, cyangwa ahantu imodoka zihagarara gikuramo abagenzi.

Ni umuhanda wa kaburimbo. Hano kuri uru ruhande ni ahaparikwa imodoka: ufite kwitaba terefone ugaparika kuri uru ruhande, cyangwa bisi igahagarara ikagusiga. Uri gucamo ibinyabiziga bitandukanye: ikamyo yikoreye ibintu ndetse na moto, n'igare bitwaye abagenzi.

Ni umuhanda imodoka zinyuranamo akamaro k'imodoka zitwara umuryango, n'ibinyabiziga bitwara umuntu umwe, ndetse n'ikinyabiziga gitwara abantu barenga mirongo inani bikabafasha kugera aho bagiye.

Ni umuhanda wa kaburimbo wiganjemo imihanda inyuranamo hakaba harimo imodoka itwara umuryango, hakaba hari imodoka yifashisha mu gutwara ibintu byakangirika kubera izuba ndetse n'umugenzi uri kwambuka.

Ni umuhanda wa kaburimbo urimo ibinyabiziga bitandukanye binyuranamo. Bitwara abantu, ndetse bitwara umuryango bigashyitsa abantu mu kazi kabo ka buri munsi ubuzima bukagenda neza.

Biragaragara ko hari imihanda inyuranamo ijya mu byerekezo bitandukanye, hakaba ari gucamo ibinyabiziga bitandukanye, bitwaye abantu ndetse hakaba hari n'ibinyabiziga bitwara ubwikorezi biremereye, harimo moto, imodoka, ikamyo yikorera ibintu, ibivana ahantu hamwe ibijyana ahandi.